Umugore usanzwe ukora ubucuruzi bw'amafi yavuye ku kijyanye no kubucuruza gusa atangira no kuyorora, uyu mugore ni umwe mu barekuwe iwawa ubwo yari yaragiyeyo akekwaho gukoresha ibiyobyabwenge.

Ibyuma bimeze nk'ibyo kwa muganga, utitegereje neza wakeka ko hari amajenereta gusa si genereta kubera ko iyo urebye neza ubona bisa n'aho harimo amarobine asuka amazi mu byuma, byabugenewe ndetse akanayungurura imyanda.

Mu rwego rwo kugira ngo haboneke umusaruro uhagije w'amafi, uyu mugore yiteje imbere cyane kugera ku rwego rw'aho amafi ye ayagurira ibyo kurya, bishobora kuba byanaribwa n'umuntu ariko akabona umusaruro uhagije ku mwero.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo kameze nka tumwe dutangwa ku rugerero ahagaze mu murima w'ikawa ikiri ntoya, inyuma y'izo kawa hariho urutoki rw'inyamunyu, zivamo ibitoki biribwa kuko ibitoki byengwamo inzoga byo usanga bizwi ku mazina y'indaya na poyo.

Mu rwego rwo kwimakaza no kunoza ubuhinzi usanga ibishanga kuri ubu leta yarashyizeho uburyo bwo kubibungabunga kugira ngo abe ariyo ibicunga imenye n'uko ibyitaho yaba ibihingwamo umuceri n'indi myaka.

Kawa y'u Rwanda ni kimwe mu bihingwa bifatiye runini ubukungu bwayo. Ubona ko leta ishyiraho ubukangurambaga mu gukangurira abaturage kuyihinga umunsi ku munsi. Kawa iyo yeze itangira kuba umuhondo, ikaba umutuku, kugeza isaruwe.

Mu rwego rwo kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda bukomeze butere imbere, uretse icyayi na kawa bihingwa ku bwinshi kugira ngo bijyanwe i mahanga, ubu ngubu hanagezweho igihingwa cyitwa pacuri. Iki na cyo gifasha abahinzi kwiteza imbere ndetse n'u Rwanda rukabyungukiramo.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu u Rwanda rufite, bijyanirana n'icyayi. Ibi byose iyo bihurijwe hamwe, ukajya kureba ku musaruro mbumbe, usanga byarinjirije igihugu agatubutse.

Abagore basarura icyayi werekeza mu gice k'ishyamba rya Nyungwe, iyo babonye abakerarugendo babikorana ubwuzu kugira ngo babasigire amafaranga, bitewe n'uburyo baba babikora babona bishimishije.

Mu rwego rwo kwirinda ko abahinzi n'aborozi bashobora kugira ibihombo bahura nabyo yaba mu buhinzi bwabo ndetse n'ubworozi, bazaniwe imiti irwanya ibyorezo mu bihingwa ndetse n'amatungo kugira ngo umusaruro ukomeze kuba mwinshi.

Ni byiza kwitondera ubworozi bw'amatungo igihe wabutangiye ugomba gutegura uburyo uzajya wita ku matungo azajya aba yarwaye. Bitewe n'uko imiti yose simyiza ku matungo kuko hari igihe waziha zigapfira rimwe.

Imiti y'amatungo ikozwe mu muravumba, igicunshu ndetse n'ibizimyamuriro yaratunganyijwe ishyirwa mu macupa, ni amacupa ari mu ubwoko butatu amacupa ya mbere ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi, andi mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, ariho n'ari mu mabara y'umutuku n'umweru.

Niba uri umuhinzi mworozi ukaba wiyemeje kubikora kinyamwuga, ni byiza ko utangirana n'ubuhinzi bujyana n'ubuvuzi. i ukuvuga ubuvuzi bwita ku bihingwa ndetse ntiwanasiga ubuvuzi bwita ku matungo.

Aborozi yaba ab'amatungo magufi n'amatungo maremare ubwo harimo inka, ihene, intama inkoko ndetse n'inkwavu, bagomba kwita ku byo bagaburira amatungo yabo ariko na none bakanita ku miti bavuza amatungo.

Niba uri umuhinzi ukaba uri umworozi hari ibintu uba ugomba kwitaho, niba utangiye igikorwa cy'ubuhinzi uba ugomba kuzirikana ku buryo uzahangana n'ibyonnyi, ikindi kandi niba ari no ku matungo na ho niko biba bigomba kugenda uhangana n'ibyorezo.

Uyu ni umuti ariko ukaba unafasha inka gukura neza kuko urimo vitamine zitandukanye, inka yariye ubwatsi bukeya igaterwa n'uyu muti, ikura neza kubera ko harimo intungamubiri ku matungo.

Mu rwego rwo kunoza umusaruro ukomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi abahinzi bakangurirwa guhinga ariko na none bakaba bafite amatungo agomba gutanga ifumbire mbonerera kugira ngo nibavanga n'imvaruganda umusaruro wiyongere.

Imbaga nyamwinshi y'abantu yahuriye ku musozi, biragaragara ko ari koperative y'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Barimo barahinga ibihingwa bitandukanye ariko ibihingwa bakunda guhinga byiganjemo imbuto n'imboga.

Abagabo babiri bafite amasuka y'imijyojyo, buri umwe yambaye ipantaro y'umukara, mu gihe undi yambaye umupira wa ti sheti, undi akaba yambaye umupira wa lakosite, bari guca mu umurima w'ingano bagiye guhinga mu gishanga.

Umugabo uri mu ishyamba biragaragara ko ari gutera ibiti. Ari kubivana mu bihoho agerageza kubikuraho amashashi ashobora gutuma imvura itabigeraho neza, bikaba bitakura nk'uko bikwiriye, ikindi kandi yambaye ga z'umukara.

Mu rwego rwo guhangana na kirabiranya, ni byiza ko imivovo y'insina yarwaye kirabiranya icukurirwa ibyobo igatabwamo kandi noneho aho iyi mivovo yatabwe, hakaba haretswe kongera guhinga urutoki, ahubwo hakaba hahingwa nk'ibigori.

Mu rwego rwo kugira ngo umusaruro ukomoka ku buhinzi bw'urutoki wiyongere, ni byiza guhangana na kirabiranya imaze iminsi yaradutse, abagabo benshi usanga iyo babonye kirabiranya mu rutoki rwabo batagoheka, bagamije guhangana na yo.

Mu rwego rwo kugira ngo ubuhinzi bukomeze guterare imbere mu Rwanda, Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kubafasha muri gahunda ya nkunganire, ikindi kandi abahinzi na bo bakaba bashobora kugana amabanki bakishyura, amafaranga bafashe ku nyungu ntoya.

Amashu atitaweho neza ntashobora gutanga umusaruro bitewe nuko rimwe na rimwe hari ubwo usanga iyo izuba rivuye ahita yumakara mu buryo bworoshye. Ni byiza ko rero niba ugiye kuyahinga uba unafite pompe izakura amazi kure.

Inyanya, umuceri, amacunga, byose byahurijwe hamwe kugira ngo ushaka kubigura aze ahitemo icyo ashaka. Biragaragara ko umugabo uri kugenda abisanga yishakira kurogati irimo n'ubwo ari yonyine kugira ngo hatagira undi uza akayimutanga.

Icunga cyangwa se indimu abantu benshi bakunda kubyitiranya ariko ni ibintu bitandukanye. Iyo bikiri bito byombi biba bifite amababi ajya kuba kimwe ndetse n'imbuto zabyo ziba zijya gusa ariko uko bigenda byera mu itandukanirizo ryabyo amacunga yera asa n'umuhondo mu gihe indimu zo zikomeza kuba icyatsi, iyo zabaye umuhondo akenshi bakubwira ko zaratakaje umwimerere.

Umugabo w'umuhinzi mworozi afite umuhoro ari kugenda areba niba imbuto yateye zarameze, ngo niba zitarameze atangire kuvomera akoresheje ipombo yaguze ikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Igihingwa k'ibirayi ubona ko gisa n'aho cyamaze gutera imbere mu Rwanda kuko kera byabaga bihenze ariko kuri ubu ngubu bikaba biboneka mu buryo bworoshye, bitewe n'uko umuhinzi yashyiriwemo ikiswe nkunganire.

Aha ngaha turahabona ibishyimbo bitatu ndetse n'ibigori bibiri. Ibi ngibi ndabivuga mbaze impeke z'uburyo byazamutse. Biragaragara ko ari ingemwe zerekana uburyo wahinga imyaka yawe igakura neza.

Hagaragara nk'iyanya cyahariwe guturwamo nubwo nta mazu na make aratangira kubakwamo bitewe nuko ubwacu buhari budakura n'ibiti bihari bitarenga umutaru, amaherezo nuko aha ngaha leta izashyira amazu, abaturage bakahatura ndetse hakaba hakorerwa n'ubucuruzi.

Igisiga cy'ijosi rirerire n'amaguru maremare kandi anyunyutse, gifite amababa akora inyuma ku maguru, kigaragara ko gihagaze mu murima w'umuceri kiri gutora ibisimba.

Mu rwego rwo kugira ngo hirindwe indwara zituruka ku mwanda ndetse n'imirire mibi, ni byiza ko imboga zigiye gutekwa zibanza kozwa hanyuma zigatekwa zifite isuku ku buryo abaziriye nta kibazo bashobora kugira.

Igihingwa cy'urutoki ni kimwe mu bihingwa bifatiye runini igihugu cyacu kuko uretse gutanga umutobe, imineke, hariho n'ibitoki biribwa bitetse. Ikindi kandi ni uko ari bimwe mu bihingwa byatangiye kujya byoherezwa hanze.

Igihingwa cy'urutoki muri iyi minsi birasa n'aho cyibasiwe cyane n'indwara ya Kirabiranya, akaba ariyo mpamvu abahinzi barwo ndetse n'abaguzi b'ibitoki binubira ko umusaruro wabaye muke ku isoko.

Igiti k'ipapayi cyabaye inganzamarumbo, kugera ubwo gitangiye no gushibuka kandi atari ibintu bikunze kubaho. Icyo cyashibutse nacyo nk'ishami cyatangiye kuyanga, uruyange narwo mininsi ya vuba ruraba rwatangiye gutanga imbuto ziribwa.

Umuhanda wa kaburimbo uca mu cyanya cyahariwe guhingwamo umuceri. Ni ikibaya kinini cyane harimo amapoto amukira uwo muhanda ndetse akanafasha abahinzi barinda umuceri nijoro, bawurinda ibisambo.

Abakerarugendo rimwe na rimwe usanga iyo bagiyewe mu ishyamba rya Nyungwe bahasanga abashinzwe kubayobora kugira ngo babashe gusobanukirwa buri kimwe cyose n'amateka y'u Rwanda nta na kimwe gisigaye.

Igiti cy'inganzamarumbu kiri mu ishyamba, iruhande rwacyo hari amahene yo mu ishyamba. Ikindi kandi biragaragara ko ari igiti kigandara ku buryo amababi yacyo ashobora gukora hasi ku buryo izo hene zo mu ishyamba zikirisha.

Ishyamba rya Nyungwe ni rimwe mu mashyamba manini u Rwanda rufite kandi akurura ba mukerarugendo. Iri ngibi ribamo inyoni n'inyamaswa nk'ibyondi, inkende ndetse n'ibisiga bishobora kuba byakurura ba mukerarugendo.

Ishyamba rya Nyungwe ririmo ibiti by'amoko menshi cyane anyuranye, harimo inyamaswa nk'ibyondi, imihobobo, amafuko n'ibindi, iri shyamba kandi rinarimo ikiraro cyo mu kirere gikurura ba mukerarugendo benshi.

Ishyamba rya Nyungwe ribamo ibimera bitandukanye by'amoko menshi ano anakurura ba mukerarugendo, iyo urigezemo wumva umwuka utandukanye n'uw'ahandi, habamo inyamaswa zizwi nk'ibyondi, impara ndetse n'imparage.

Pariki y'igihugu y'Akagera irimo umugezi w'Akagera, iyo ukurikiye neza amateka y'uyu mugezi usanga nawo ari umwe mu migezi ifite aho ihurira n'umugezi wa Nile kuko isoko yawo iri mu Rwanda.

Ishyamba rya Nyungwe usanga rikurura ba mukerarugendo benshi batandukanye buri munsi. Harimo ikiraro cyo mu kirere na cyo kitatanzwe. Ikindi kandi gikurura ba mukerarugendo, ni inyamaswa zirimo ibyondi, inkende ndetse n'inkima.

Amashu ni kimwe mu bihingwa bitagira umurama ku buryo uvuga ngo ishuri rirayanga, rizana imbuto, hanyuma noneho rizamere. ahubwo uyu murama wazo ukorerwa muri laboratwari, ugahabwa abahinzi, bakinza ,hanyuma imboga zikaboneka.

Abagore bitabiriye igikorwa cyo gutera igiti, buri wese yafashe icyo ajya gutera iwe mu rugo. Nubwo nta bagabo babo bazanye, batahanye inshingano zo kubibutsa ko igiti ari ingirakamaro.

Umuhinzi mworozi witeje imbere ni umugore mu by'ukuri utabyibushye ariko utanutse. Akunda guhinga urusenda ku buryo asarura urusenda rufite umubyimba ungana n'uw'icunga cyangwa indimu.

Imbuto zimeze nk'ipera ariko ziri ku giti gihagaze nk'iy'ikawa biragaragara ko twinjiye mu mpeshyi kubera ko amababi yaki yarumye hasigara imbuto zonyine, hariho imbuto enye, ebyiri muri zo zatangiye guhishiriza.

Ibihingwa bisa n'inyanya ariko bizwi nk'ibibiringanya, biragaragara ko hano byeze bikarengerera urugero rwo gusarurirwaho. Bitewe n'uko byaratukurije kandi ubundi biba bigomba gusarurwa bisa n'icyatsi.

Indabo nyinshi cyane zakusanyirijwe hamwe bitewe n'uko igihingwa cy'indabo mu Rwanda na cyo ari kimwe mu bihingwa byateye imbere, ziri hafi gutunganywa zikoherezwa mu mahanga, hamwe mu bicuruzwa u Rwanda rwohereza hanze y'Igihugu.

Igihingwa cy'urusenda gihinzwe neza gishobora gutunga ugikora, aho bamaze kuyisobanukirwa basigaye bagihinga mu buryo bw'amakoperative, bakaba bafite amasoko menshi cyane bagemuraho.

Igihingwa cy'ibinyomoro usanga iyo kitaweho neza imiti igatererwa igihe hakarwanywa ibyonnyi umusaruro, ushobora gutunga nyirawo ndetse n'abaturanyi, agahashywa indwara zituruka ku mirire mibi zitagira imbuto.

Mu Rwanda kera abantu bumvaga ko ikawa, icyayi ari byo bihingwa bikwiye kujya hanze y'u Rwanda, ariko kuri ubu indabo zihinzwe neza umusaruro wazo ugatunganywa, na wo ni umwe mu byoherezwa hanze.

Abagore batatu bose bigaragara ko bageze mu za bukuru ku buryo nta n'umwe uri munsi y'imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko, bari mu murima w'ibishyimbo bigufi bari gusarura ariko banabagara, ibyo ni ibishyimbo bisarurwamo mu buryo bw'imiteja.

Umugabo uhagaze mu mashu, ari kumwe n'umwana we bari kugenda bayafuhira ndetse bakanayuhira. Iruhande rwabo hari umurasire ndetse hari n'ikigega kibamo amazi bagenda bafuhiriza. Bafuhira bakoresheje ipompo nk'uburyo bugezweho, mu kwirinda ko batwarwa umwanya munini kandi igihe hari amafaranga.

Kera ikoranabuhanga ritaratera imbere ubwo izuba ryavaga abahinzi bahitaga batangira kuyifata ku munwa bibaza uko ahazaza habo hazaba hameze kubera ko imyaka yabo yabaga yarumye, ariko ubu haje uburyo bushya bwo gufuhira ndetse no kuhira ku buryo imyaka nta kibazo yagira nubwo twaba turi mu mpeshyi.

Umugore muhinzi mworozi akaba ari intangarugero mu karere ke, afite ipompo ari gufuhira amashu ye ndetse akanuhira iruhande rwayo. Hari umurasire bigaragara ko nawe ari umwe mu wumufasha mu mirimo ye.

Umugabo ufite umugozi muremure cyane amaze gutera imyaka ye izuba rihita riva. Nta kindi yakoze bitewe nuko ari ubuhinzi yari yarabanje gutegura bitaramugwiririye, yahise afata pompe ye, yaguze amafaranga menshi cyane atangira kuhira.

Umugabo uri mu murima ari gufuhira ibisa n'imboga, ari gukoresha pompe igeza amazi kure kubera ko ni umurima munini, uramutse ukoresheje ibizwi nka rozwari ntabwo ushobora kugira aho uwugera. Niyo mpamvu yahisemo kugura ipompo n'ubwo yamuhenze.

Umugabo wihangiye umurimo ndetse agashyiramo imbaraga ze zose, yahisemo guhinga ibitunguru hanyuma agura pompe izajya imufasha kuhira mu gihe k'izuba, no mu gihe k'imvura igihe imvura yabaye nkeya.

Umukecuru rukukuri ari guhinga gusa ikindi kiriho nuko yamaze gusobanukirwa neza uburyo bwo kugira ngo imyaka ye itazumakara cyane. Arayimenera yamara kuyimenera, akafuhira kubera ko ari mu gihe k'izuba.

Uburyo bushya bwadutse bwo gukoresha mu kijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ntabwo wakwirengagiza kuhira hakoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga n'imashini zabugenewe zishobora gukura amazi kure zikayageza ahantu hari ibihingwa.

Igice kirimo icyanya cyahariwe guhingamo ishyamba ndetse n'ibindi biyishamikiyeho, hejuru yaryo haragaragara igicu cy'umweru ndetse n'ubururu, bigaragara ko twamaze kwinjira mu gihe k'impeshyi.

Icyanya kirimo ibiti by'inturusu zitarakura neza iyo witegereje neza ubona ko hari aho ubwatsi bwatangiye kuma bitewe n'uko biri ku musozi kandi izuba rikaba ryaravuye ari ryinshi imvura yaracitse kare.

Mu rwego rwo kwirinda ko isuri ishobora gukomeza kwangiza ibikorwa binyuranye birimo ubuhinzi, Leta y'u Rwanda ikangurira abaturage by'umwihariko abahinga mu makoperative, guca amaterasi y'indinganire aho bahinga imyaka yabo.

Ubutaka buhanamye ni byiza kubucaho amaterasi y'indinganire kuko bituma budatwarwa n'isuri kandi n'imyaka ihahinze ikera nk'uko byakagombye. Ikindi kandi nuko imyaka ihinze mu materasi yera ikarumbuka.

Mu rwego rwo kwirinda ko ubutaka bukomeza gutwarwa n'isuri, usanga leta ikangurira abaturage guca amaterasi y'inganire ku misozi, hanyuma bakanateraho ubwatsi n'ibiti bifata ubwo butaka, bityo n'umusaruro wabo ugakomeza kwiyongera.

Ubutaka buhanamye ni byiza ko mbere yo kubuhingaho bubanza gucibwaho amaterasi, mu rwego rwo kwirinda ko imvura yaba nyinshi isuri ikaba yatembana imyaka ihahinze. Ibi iyo bikozwe, uretse kurinda isuri n'umusaruro uriyongera.

Hagati y'imisozi harimo umubande. Uwo mubande ucamwo amazi menshi cyane. Rimwe na rimwe usanga aya mazi iyo ataciriwe inzira ashobora guteza ibibazo, ku ho anyura. Ashobora kwangiza imyaka cyangwa se agahitana n'ubuzima bw'abantu.

Ku musozi uhanamye ni byiza ko hacibwa amaterasi y'indinganire, arwanya isuri ndetse akanafasha abahinzi kuzamura umusaruro wabo. Ikindi kandi kuri ayo materasi hagomba guterwa ibiti ku buryo bifata ubutaka.

Inkoko ziganjemo amasake harimo iz'imirangira, umweru, umukara ndetse n'inkokokazi zitetera. Izi ngizi ziratangira gutera mu minsi ya vuba, ku buryo nyirazo adashobora kuzigera akena kubera ko umusaruro w'amagi ukunzwe cyane ku isoko.

Intama nazo zisigaye ziba mu biraro bya kijyambere bitandukanye n'uko kera zirwaga ziragiwe ku musozi, rimwe na rimwe ugasanga ziraribwa n'ibirura, impyisi ndetse n'imbwa ariko kuri ubu bitewe n'uko abazorora bamaze gusobanukirwa akamaro ko kuzororera mu biraro, nibwo umusaruro ari mwinshi.

Ubworozi bw'ihene ni ubworozi buteza imbere ababukora, bitewe n'uko ari amwemo matungo akunze gushakwaho inyama cyane ku isoko, bitewe n'uko hoteli ndetse n'izindi resitora zikunda gukoramo burushete.

Inzu ikoze nk'ikibuti harimo inkwavu z'umweru ndetse n'umukara iruhande rwazo hariho abaveterineri n'umwori nyirazo, umuviterineri yambaye itabuririya y'umweru afite ikaramu mu ntoki ari kujya yandika imiti izo nkwavu zigomba guhabwa.

Niba uri umuhinzi mworozi, ni byiza ko wita ku musaruro wawe ukagerageza kuwubungabunga ukawubika neza. Wagera no ku musaruro w'amata nayo nihahandi ugomba gukoresha ya mvugo igira ngo amata agira agitereka.

Umugabo ufite ifamu y'inka biragaragara ko akiri muto, akunda kwiyambarira amarinete n'amashati magufi kubera ko amashati maremare atayakunda, buri gihe agendana agatabo mu ntoki agenda yandikamo inka yaba ifite ikibazo ngo ahamagare veterineri aze ayiteho.

Inkoko nyinshi cyane zirimo inkokokazi n'amasake, hakaba harimo izitera imishwi ndetse n'izitangiye kwiga kubika. Biragaragara ko zirya igiheri k'ingano n'ibigori ari imvange.

Inkoko ziri mu kiraro cyazo kizwi nk'ikibuti zirimo amoko atandukanye, harimo kandi nadendo zifite amajosi maremare gusa ntiziyenza kurizi nkoko kubera ko bimaze kumenyerana.

Inkoko eshatu ebyiri muri zo zirajya gusa n'ikaki, mu gihe indi isa n'umukara. Imwe muri zo niyo y'isake mu gihe izindi ari inkoko kazi. Inkoko kazi ni umukara ndetse n'indi y'umweru. Byumvikane ko isake atari umukara.

Aborozi b'inkoko usanga akenshi na kenshi, bitewe n'uko ubworozi bugenda butera imbere, barahisemo kurora inkoko za kijyambere zitorangwa n'imashini, aho igi barishyira mu mashini ikarituraga hanyuma inkoko y'ukwezi kumwe, akaba ari inkoko izi kurya.

Inkoko aho zororerwa hitwa mu bibuti yewe n'inkwavu aho zororerwa ni mu bibuti, inkoko za kijyambere bitewe n'umusaruro mwinshi zigira, umucuruzi ndetse n'umworozi mu gitondo barahurira bakumvikana ayo agomba kumwishyura.

Umugabo w'umuhinzi mworozi yambaye itiriningi y'ubururu, yambaye bote z'umweru, ingofero y'umweru ikindi kandi yambaye igishashi, ari kureba uko inka ye imeze. Ni inka ifite amahembe maremare bigaragara ko ari imwe mu zo hambere.

Ifamu y'inka ubona ko ari inka gakondo zifite amahembe ateze nk'uko intore zijya zizigana, mu gihe zirimo ziramurika umuco nyarwanda. Izi ni inka zitagikunda kuboneka, uretse ko zisigariye mu rukari.

Inka nyinshi usanga arizo bita ifamu. Umworozi wazo rero ntabwo akwiye kujenjeka no kurangara mu gihe afite inka nk'izi ngizi. Aba agomba gukora ibishoboka byose, agashaka umuveterineri, ugomba kuzitaho, akazikiza ibyorezo.

Mu bworozi usanga harimo ingeri nyinshi cyane zitandukanye, hari aborora amatungo magufi n'aborora amatungo maremare, aba bagabo uko ari babiri boroye amatungo maremare, higanjemo inka hanyuma ukabona ko bafite n'umukamyi w'inzobere.

Inka bigaragara ko ititaweho neza yasutse urwoya, biragaragara ko iziritse ku giti, kandi biba byiza iyo inka yisanzuye, nibwo ibasha gutanga umukamo, amata akaza ameze neza.

Imashini itwara imizigo biragaragara ko aha ngaha iri ifite imizigo myinshi cyane, bayiparitse ku makaro y'umweru ushobora gutekereza ko yanyerera ariko bitewe n'uburyo amapine yayo akoze ayifasha guhagarara yemye.

Ubundi biragoye kubona imbwa y'umweru ariko amahene yo aba ari menshi cyane, aha ngaha biragaragara ko uyu nguyu ari umukumbi w'umworozi wabigize umwuga, aho afasha abaryi ba burushete kubona inyama mu buryo bworoshye.

Ingurube bigaragara ko irya neza ibiryo bya kijyambere cyane ko na yo ari iya kizungu zimwe twita ingurube zigezweho, yabyaguye ibyana birenga umunani, ibyo byose biri kuyaga ku buryo mu mezi atatu bizaba byacutse.

Inkoko nyinshi cyane zigomba kororwa zinafite umuveterineri wo kuzitaho kuko bitabaye ibyo ngibyo umworozi yazahahira mu rutete indwara yazigeramo ikazica zose, bityo rero ntabwo ukwiye kwishora mu bworozi bw'inkoko, udafite igishoro gihagije.

Inka yitaweho ikagaburirwa neza ikavuzwa neza, usanga ariyo nka ishobora gutanga umukamo urambye uretse n'umwukamo kandi n'inyama z'iyo nka ziba ziryoshye cyane ku isoko zirakundwa ku buryo aborozi usanga umusaruro wabo ubinjiriza agatubutse.

Umugore n'umugabo, umugabo yambaye umupira wa lakosite w'ubururu irimo amabara y'umweru, ari kumwe n'umugore wambaye iribaya, irimo amabara ajya kuba nk'amamininwa. Bafite inkoko iriho ibishyimbo, bari kugenda barobanuramo ibiterwa ndetse ibitekwa bigashyirwa ku ruhande.

Ubuhinzi bw'ibinyampeke ubona ko bugenda butera imbere bitewe n'uko leta yashyize imbaraga mu gushikiriza abaturage imbuto zo guhinga ku buryo yaba ibishyimbo, ubunyobwa, amajeri ndetse n'ibindi byose imbuto ziba ari indobanure.

Inkoko nyinshi cyane ziri mu kibuti aho ziri kurya igiheri cya soya, ingano ndetse n'ibigori bivangavanze, bikaba bisutsemo n'amazi kugira ngo bitaziniga, ibi ni ibiryo bifashe inkoko gukura neza ndetse n'amagi yazo umusaruro ukaba ari mwinshi.

Ingurube ni rimwe mu matungo usanga abantu benshi binenaguza bitewe n'uko kuyorora aruhije, iyo utayitayeho neza ateza umwanda ndetse akaba yanapfa bityo amafaranga washoye mu bworozi akaba yahomba yose.

Umuganga w'amatungo uzwi nka veterineri yatumiwe mu kiraro kirimo inka nyinshi kugira ngo abashe kureba ikibazo zifite. Akihagera yahise akubitana n'inka igiye kubyara yambara ga abanza kuyibyaza, kugira ngo abone ubwita ku zindi.

Aborozi bateye imbere usanga mu mafamu yabo bashyiramo abaveterineri bahoraho, uyu muveterineiri yarabyigiye ndetse araminuza, yambaye itaburiya y'ubururu ari kubyaza inka.

Abaveterineiri benshi kera wasangaga babikora batarabyize ariko kuri ubu kugira ngo winjire mu rugaga rwabo, bisaba kuba ufite ibyangombwa byerekana ko uwabyize mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza.

Mu rwego rwo kubungabunga inka z'amahembe usanga mu rukari i Nyanza, hari aho izi nka ziba ziri kandi zitaweho, zigahabwa abaveterineri bazivura mu gihe zibasiwe n'uburwayi.

Mu kiraro cy'inka hajemo veterineri ari kumwe n'umworozi, umworozi afashe umurizo w'inka, biragaragara ko veterineri ari ugukoza ibyuma byabugenewe mu nda kugira ngo irebe ikibazo iyi nka ifite hanyuma ayivure.

Ni byiza ko niba utangiye umushinga w'ubworozi bw'inkoko, uba ugomba no kwita ku biryo zigomba kurya ndetse n'umuganga wazo uzwi ku izina rya veterineri ukaba waramaze kumushaka n'amafaranga uzamuhemba ukayateganya.

Inyamaswa zigendera ku maguru biragaragara ko ari ingagi ndetse n'inkende iruhande rw'inkende hari ingagi imwe nini cyane utitegereje neza ushobora kugira ngo zose n'inyamaswa z'ubwoko bumwe ariko zitandukanirira ku bunini.

Inkende ebyiri nini cyane zifite umusatsi, utitegereje neza ushobora gukeka ko ari ingagi bitewe n'uburyo zariye zigatamira zigahaga, imwe muri zo ihetse akana kicaye ku mugongo umurizo wako uri gukora ku kibuno cya nyina.

Rimwe na rimwe intare iyo yabiye usanga urusaku rwayo abenshi barwita umutontomo. N'iyo tunagiye muri ntibavuga bavuga, usanga batavuga ngo intare irabira, ahubwo intare iratontoma.

Mu cyanya cya parike y'Akagera, umugezi waho ukikijwe n'ishyamba ririmo inkura ndetse n'intare. Uhasanga kandi izindi nyamaswa zirimo ishya ndetse n'inyoni z'amabara ashimishije.

Inyamaswa imeze nk'ikibeba abenshi bashobora kuba bakunda kuyita icyundi, gusa nanone utitegereje neza wagira ngo ni igifuko kiri kugendera ku maguru abiri. Rimwe na rimwe hari igihe gishobora gutera ubwoba ariko nuko kitaryana.

Inyoni z'amoko menshi cyane agiye atandukanye, usanga zikurura ba mukerarugendo baza gusura parike y'igihugu y'Akagera ndetse na parikeki y'igihugu ya Nyungwe kuko zombi ni parike nkuru z'igihugu, zibarizwamo inyoni nyinshi.

Inzovu igira umutonzi muremure. Uretse kuba ifite amaguru manini, ifite n'ibitwi binini cyane iyo imanuka ahantu hacuritse biragoye ko ishobora kureba imbere. Niyo mpamvu uyibonye wiruka umanuka mu mwanya wo kwiruka ikizamuke ushaka kuyicika.

Igisiga kinini cyane gifite amabara y'ikake, umukara ndetse n'ajya kuba igitaka, gihagaze ku giti bigaragara ko ari mu ishyamba rya Nyungwe, imbere y'icyo gisiga hari ikibumbano cy'umuntu, kigaragaza ibyiza nyaburanga, ushobora gusura mu Rwanda nk'umukerarugendo.